Abantu benshi bicaye mu kabari, bari gusangira ibyo kunywa bitandukanye byigenjemo ibisembuye, imbere hari televiziyo nini, bari kureberaho umupira wo mu mahanga.

Akabari karimo amatara menshi, hanze hicaye abantu ndetse abenshi barahagaze, bari kuganira basangira ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo ibisembuye.

Akabari amasaha ya nijoro hahagazemo abaguzi benshi bari kuganira basangira ibyo kunywa, kuruhande hahagaze abandi bacuruzi babiri, kugikuta hariho akabati karimo amacupa y'inzoga.

Umuntu wicaye imbere ye hari ameza y'umukara ariho ibikoresho bitandukanye. Amakanya ibiyiko, icyuma, ibirahure ndetse n'agatabo kandikwamo ibiciro wasanga aho hantu.

Akabari mu mumasaha ya nijoro, hari umugabo uhagaze wambaye ikote ndetse n'ingofero y'umukara, iruhande rwe hari amatara menshi afite ibara ry'umuhondo, hirya hicaye abandi bantu benshi.

Abantu bicaye mu kabari imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kunywa, bitandukanye biri kugitambaro cy'amabaro y'umutuku ndetse n'umweru, inyuma yabo hari wambaye imyenda y'umukara.

Inyemezabwishyu iriho urutonde rw'ibiciro bitandukanye, hariho ibyo kurya, ibyo kunywa n'amazi, n'ibindi byinshi bitandukanye, yatanzwe n'umukozi witwa Sangwa.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo akabari hejuru hari ibirango by'umutuku n'icyatsi byamamaza inzoga ikorwa n'uruganda rwa sikolo ndetse hananditseho amazina y'ako kabari.

Akabari kariho ameza manini y'umukara azengurutse inyuma hari akabati gafashe ku gikuta karimo amacupa menshi y'inzoga zitandukanye ku ruhande hari tereviziyo iri kwaka.

Akabari mu masaha ya ninjoro, imbere hari intebe ndende z'umukara, imbere mu kabari hari utubati dutatu twometse ku gikuta turimo amacupa y'inzoga atandukanye.

Umuntu yicaye mu kabari, yashyize amaguru ku ntebe iri imbere ye, imbere yayo hari indi ntebe ifite umusego w'umutuku ndetse iri mu ibara ry'umukara, hirya harimo intebe nyinshi ndetse n'abantu bicaye n'abandi bahagaze.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, isaha ku kaboko, ishati y'umweru iruhande rwe hari akabati karimo amacupa arimo ibinyobwa byinshi bitandukanye.

Akabari karimo utubati dusize amarangi y'umukara, imbere hateretse mo amacupa menshi y'ibyokunywa bitandukanye, ndetse ku gikuta hamanitse ho televiziyo izimije.

Akabari karimo ameza maremare y'igitaka n'umukara, inyuma hari utubati twometse ku gikuta turimo amacupa menshi arimo ibinyobwa bitandukanye bisembuye.

Akabari karimo akabati kari ku gikuta gafite amatara y'icyatsi, hateretsemo amacupa menshi atandukanye arimo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, ku ruhande hari televiziyo.

Agatabo kari mu ibara ry'umukara. Kariho urutonde rurerure rw'ibiciro by'ibyo kunywa n'ibyo kurya, ushobora gusanga mu kabari runaka. Maze ukabitumiza.

Icyapa kinini kiri ku nkengero z'umuhanda. Kiri mu mababara y'icyatsi. Kiriho inzoga iri mu icupa ndetse n'indi iri mu ikirahure iriho urufuro, yitwa Virunga.

Akabari kariho ameza azengurutse gakozwe n'urubaho rw'igitaka, hagati harimo akandi kabati karimo amacupa atandukanye y'inzoga, hajuru har itereviziyo ebyiri zijimije.

Umugabo yicaye ku ntebe y'umukara nini afite agatabo mu ntoki hari ameza azengurutse y'igitaka, arambitse impapuro nyishi zitandukanye.

Ikirango kinni kiri ku nkengero z'umuhanda, kirimo amabara y'umumutuku ndetse n'icyatsi, kiri kwamamaza ikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda, rwitwa sikoru.

Hejuru ku bisenge, ku nzu zitandukanye. Harimo iz'ubucuruzi, hariho ikirango kinini cy'umweru n'umutuku, kigaragaza ko ahongaho hari akabari.

Akabari kariho ameza y'umweru maremare ndetse n'udutebe tw'umweru dufite amaguru y'icyatsi, hejuru hari udutara twinshi two mu ibara ry'umukara.

Akabari kariho imitako myinshi ku gikuta yiganjemo iya Kinyarwanda ndetse n'iya kizungu, inyuma hari akabati kometse ku gikuta kariho amacupa menshi arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Utubari mu masaha ya ni njoro, harimo intebe z'igitaka, harimo amatara atandukanye ndetse hari umuntu wicaye ku ntebe n'undi uhagaze wambaye ishati y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo akabari imbere hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku. Hicaye abaguzi batandukanye bari gusangira ibyo kunywa.

Ipikipiki itwaye umugenzi inyuma yaho hari igare rihaparitse hari umugabo uhagaze ku giti gisize ibara ry'ubururu yambaye umupira n'ipantalo.

Inzira ijya ahari akabari. Hari icyapa hejuru, kiriho izina ry'ako kabari, ndetse kikamamaza n'ikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda Sikoro. Munsi hari urugi runini, rw'umweru.

Abagabo babiri bicaye, bambaye amashati y'umweru n'amakote y'umuhondo, imbere yaho hari ameza manini ndetse n'intebe z'umuhondo, inyuma yaho hari akabati karimo ibinyobwa by'ubwoko butandukanye.

Umukobwa wicaye mu kabari, karimo amatara menshi y'umutuku. Afashe terefone ye muntoki, ari kurebaho. K'uruhande har' agakapu kateretse kumeza.

Mu kabari amasaha ya nijoro karimo amatara menshi yaka ibara ry'icyatsi, imbere harimo televisiyo iri kwaka ku meza hateretse agacupa kashijemo inzoga.

Abantu batatu bicaye ku ntebe ndende z'umukara, bari mu kabari. Bari kwitegereza televiziyo iri imbere yabo ndetse banaganira, banasangira ibyo kunywa bitandukanye biri muri ako kabari.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo akabari, hamanitseho ibirango byerekana ko ari akabari ndetse hariho n'ibinyobwa ushobora gusanga muri ako kabari, ku ruhande hari ikindi kirango kinini kiriho inzoga yitwa virunga.

Umuntu ufite agatabo k'umukara mu ntoki, yicaye ku meza ariho ibirahure, makanya ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye. Iyo akaba ari mu kabari.

Umugabo umwe n'abategarugori babiri, bahagaze mu kabari, inyuma yabo hari akabati gateretsemo amacupa atandukanye arimo ibyo kunywa ndetse karimo amatara y'icyatsi.

Akabari mu masaha ya nijoro. Harimo intebe ndetse n'ameza by'umutuku, harimo amatara atandukanye yiganjemo ay'umutuku. Hari abantu bicaye bari gusangira ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye.

Agapapuro kifashishwa mutubari, n'uburiro butandukanye aho umuguzi aza bakakamuha kabakanditseho urutonde rw'ibiciro n'ibyo wasanga muri ako kabari cyangwa muri ifuka.

Ameza ateretseho ibyo kunywa bitandukanye, inyuma hari abagabo umwe yicaye, mku ntebe undu arahagaze yambaye ipantaro y'igitaka n'umupira w'umutuku.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite imiryango y'ubucuruzi, isize irange ry'icyatsi. Imbere yaho hateteretse intebe z'umukara ndetse n'ameza.

Akabari karimo akabati kanini ndetse na televiziyo iri kwaka. Imeza iteretseho ikirahure kirimo inzoga, iruhande rwacyo hateretse akadobo karimo ibinyobwa bisembuye bya Scol.

Akabati ko mu kabari k'umweru karimo amatara yaka umutuku gateretsemo amacupa menshi atandukanye arimo inzoga zitandukanye.

Akabari karimo ameza ndetse n'akabati kometse ku gikuta, gateretsemo inzoga z'amoko, atandukanye hejuru hari televiziyo ebyiri bareberaho umupira.

Akabari karimo ameza manini akozwe mu duti hari intebe ndende z'umukara imbere hari utubati twometse ku gikuta ndetse turimo amatara y'umuhondo.

Akabari keza kiyubashye, karimo ameza manini y'igitaka n'umukara ndetse n'udutebe tureture tw'ayo mabara, inyuma hari akabati kometse ku gikuta karimo amacupa menshi arimo ibyo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi ifite imiryango ibiri, isize amarangi y'umukara, hejuru amabati y'umutuku, umureko w'umweru ndetse n'icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Akabari mu masaha ya nijoro karimo amatara y'umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo, harimo intebe z'umukara ndende, harimo akabati kometse ku gikuta karimo amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Akabari karimo abagabo babiri bicaye kuntebe bareba muri mudasobwa inyuma yaho hateretse akabati kanini karimo ibinyobwa by'ubwoko bwose butandukanye, harimo intebe z'umukara ndetse n'ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse n'ubururu.

Akabari karimo intebe n'ameza bitandukanye hariho ibitambaro by'umutuku, harimo abantu bicaye ndetse n'umwe uhagaze wambaye ikoti, ku rukuta hariho televiziyo.

Akabari karimo amatara menshi yiganjemo ay'umutuku nay'ubururu, hari akabati k'umweru karimo amacupa menshi arimo ibyokunkwa bitandukanye, hejuru hari televiziyo iri gucaho umupira.

Umukozi wambaye ishati y'umukara afite agatambaro k'umutuku ku rutugu mu kiganza ateruye ibirahure bibiri ku rutugu imbere hari ibirahure bibiri birimo inzoga zifite urufuro, hejuru inyuma hari akabati karimo amacupa menshi arimo inzoga.

Agapapuro gafunikishijwe akarahure, kariho urutonde rurerure rw'ibyo kunywa nk'imitobe, amakawa ndetse n'ibindi, imbere yaho hari ibiciro byabyo ushobora gutumiza bakabikuzanira.

Akabari inyuma kugikuta hari akabati karimo ibyo kunywa byinshi bitandukanye, biri mumacupa n'udukombe, hasi hari amakesi menshi harimo amacupa y'ibyo kunywa.

Akabari karimo amatara menshi yiganjemo ay'umutuku, imbere hahagaze umugabo wambaye ishati yumukara, ndetse hasi hateretse amakesi menshi arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Ipikipiki itwaye umugenzi mu muhanda w'amabuye. Haruguru yayo haparitse imodoka ebyiri. Hari n'icyapa kiri kwamamaza ikinyobwa gisembuye.

Agatabo ushobora gusanga mu buriro cyangwa mu kabari. Haba hariho urutonde rwibyo kunywa nibyo kurya ndetse n'ibiciro byabyo. Aho umuguzi atumiza ibyo akeneye bitamugoye.

Akabari karimo ameza marebare. Ageretseho amacupa atandukanye arimo ibyo kunywa byiganjemo ibisembuye. Ateretseho n'uturahure basitsemo ibyo kunywa.

Akabari gafite ameza ariho imitako y'umweru n'umukara, inyuma hari akabati gafashe ku gikuta karimo amacupa menshi y'inzoga, hasi yaho hari icyuma gikonjesha ibyo kunywa.

Mu kabari harimo akabati k'umukara kanini hateretsemo amacupa yibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye hasi hari amakesi menshi arimo ibyo kunywa.

Akabari, mu masaha ya ninjoro. Imbere harimo umukobwa wambaye imyambaro y'umukara. Ari kwakira abaguzi. Iruhande rwe hicayemo abaguzi benshi, bari kuganira, banasangira ibyo kunywa.

Inzu y'akabari iri ku nkengero z'umuhanda imbere ku muryango binjiriramo hamanitse ikirango kinini kerekana ko bacuruza ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye ndetse n'ibyo kurya bitandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gore bari gusangirira icyo kunywa mu ruriro. Imeza iri imbere yabo iteretseho ibiyiko n'ufutambaro dutandukanye hariho n'agasahane kariho indimu.

Hejuru ku bisenge by'amazu hariho amabati y'umutuku hirya hari ibirango bitandukanye byiganjemo ibyamamaza ibinyobwa bisembuye bigaragaza ko aho ngaho hari akabari.

Mu kabari mu masaha ya ninjoro hari abantu bicaye ndetse n'undi uhagaze. Hari ameza y'umukara ateretseho icupa ry'inzoga risa icyatsi, harimo amatara menshi atandukanye.

Ikirahure giteretse ku meza hariho igitambaro cy'umukara. Kirimo ikinyobwa gisembuye ku ruhande hateretse icupa ryanditseho vurunga.

Agatabo gakoreshwa n'utubari dutandukanye ndetse, n'uburiro kakaba kariho urutonde rurerure rw'ibiribwa n'ibinyobwa ndetse n'ibiciri byabyo ushobora gusanga aho ngaho.

Agapapuro usanga mu tubari dutandukanye. Kaba kanditseho urutonde rw' ibinyobwa ndeste n'ibiciro byabyo, maze ugahitamo icyo ushaka ukagitumiza.

Umuntu uri kwambuka umuhanda w'amabuye ku nkengero z'uwo muhanda hari icyapa kinini kiri kwamamaza inzoga ndetse hari amazu y'ubucuruzi n'akameza k'umuhondo kariho umutaka w'umuhondo.

Icyirango kinini kiri iruhande rwakazu kubakishije imbaho, kirimo kiramamaza igicuruzwa kikinyobwa gisembuye gikorwa nuruganda rwitwa sikoro.

Umukozi ukorera mu kabari afite icupa mu ntoki, ndetse afite n'agakombe gatoya k'icyuma mu ntoki ari gusuka inzoga mu kandi gakombe kanini k'icyuma.

Akabari karimo abantu benshi bicaye n'abahagaze baje gusangira ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye, harimo imitaka myinshi minini ifite amabara y'icyatsi kijimye.

Icyapa cy'umukara kiri mu buriro aho bandikaho ibyo kurya bitandukanye by'umwihariko ushobora kahasanga mu minsi itandukanye ugahitamo igihe uzazira gufarira iryo funguro.

Abategarugori babiri bahagaze umwe yambaye ikanzu y'ubururu undi asutse ibisuko birebire ku mutwe afashe agakoresho bishyuriraho undi afashe ikarita ya banki agiye gukoresha y'ishyura.

Umuntu wambaye ishati y'umweru, terefone yayikinze mu maso. Imbere ye hari ameza arambuyeho igitabo. Akabati karimo ibinyobwa by'ubwoko butandukanye.

Abantu bane bicaye mu kabari bari kuganira banasangira ibyo kunywa hari ameza ariho ibitambaro by'umutuku ndetse n'icyatsi.

Urupapuro usanga ahantu hatandukanye mu tubari cyangwa mu buriro. Aho usanga hariho urutonde rw'ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hakaba hariho n'ibiciro byabyo.

Akabari karimo ameza maremare, akoze mu duti. Ndetse hari n'intebe ndende, z'igitaka. Imbere harimo ibyuma bibiri, bikonjesha ibyo kunywa , ndetse biri kwaka.

Akabari kanini karimo intebe nyinshi n'ameza bitandukanye harimo utumeza dutoya dufite ibara ry'umutuku hasi hari amabara y'umukara n'umweru anyuranamo.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu imbere ye hari ameza y'umukara, hateretse ikirahuri kirimo inzoga ifite urufuro hejuru, hateretse kandi n'ibyo kurya bitandukanye byiganjemo inyama.

Akabari mu masaha ya kumanywa. Hari ameza y'igitaka arambitseho ikirahure kirimo inzoga. Ku ruhande harambitse amadarubindi y'umukara. Imbere hicaye abagabo babiri ndetse n'uri kubaha serivisi.

Icyapa kinini cyamamaza inzoga yitwa Virunga ndetse handitseho hejuru amagambo ari mw'ibara ry'umutuku yerekana izina ry'akabari kiri kwamamaza.

Imeza izengurutse ikozwe mu rubaho rw'igitaka iri mu kabari irambitseho amacupa abiri ndetse n'ibirahuri bibiri birimo inzoga.

Abantu babiri bicaye mu kabari, hari intebe ndende ndetse n'ameza maremare. Imbere hari televiziyo iri kwaka iri kuberaho umupira.

Akabari keza kiyubashye, hasi hariho amabara anyuranamo y'umweru n'umukara, ku ruhande hari intebe ndende y'umutuku, imbere hicayemo abantu benshi.

Akabari aho bakirira abaguzi harimo intebe ndende irambitseho ishati inyuma yayo hari akabati k'umukara kari kugikuta karimo amacupa menshi atandukanye.

Akabari kanini. Karimo ameza azengurutse, afite amabara y'umweru ndetse n'igitaka, hejuru hari televiziyo ebyiri, ziri kwaka. Hicaye abantu batandukanye, baje muri ako kabari.

Akabari karimo akabati kanini, imbere ku rukuta harimo amacupa menshi, arimo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, imbere hicaye abantu babiri bari kureba umupira kuri tereviziyo.

inzu y'ubucuruzi zikoreramo ibigo bitandukanye hariho ikirango kinini cy'umutuku n'umweru kigaragaza ko hari uburiro n'akabari ahandi habonetse imyenda itandukanye igurishwa

Imeza iri mukabari iteretseho ikirahure, kirimo inzoga isembuye ifite urufuro hejuru. Inyuma harimo utubati tumanitsemo amacupa menshi atandukanye arimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye.

Urupapuro ruteretse ku meza, rukoreshwa mu kabari, ruba ruriho ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, kugira ngo batange serivisi nziza kubagana.

Akabari karimo ameza manini y'igitaka hateretseho amacupa abiri y'inzoga ndetse n'ibirahure bitatu, inyuma hicaye umucuruzi ukorera muri ako kabari.

Umukozi wambaye ishati y'umukara ukora mu kabari, ari gusuka mu ijage inzoga akoresheje amacupa, inyuma ye hari akabati gasize amabara y'umukara karimo amacupa menshi arimo inzoga.

Ikirango kinini gifite amabara y'umutuku n'umweru kiri kwamamaza inzoga yengwa n'uruganda rwitwa bularirwa ndetse kiriho amazina y'akabari kiri kwamamaza.

Akabari kariho ameza manini, azengurutse. Harambitseho amacupa menshi, atandukanye, arimo ibinyobwa bitandukanye, byiganjemo ibisembuye. Ku ruhande hari akabati karare k'umukara, gateretsemo amacupa.

Agatabo kifashishwa n'utubari ndetse n'uburiro butandukanye aho usangamo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kunywa nibyo kurya bafite ndetse n'ibiciro byabyo.

Ikirango kinini gifite amabara y'umutuku kiri kwamamaza ikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda rwitwa burarirwa ndetse bigaragara ko aho hafi hari akabari.

Igipangu kinini kiriho urukuta ruriho amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku. Cyanditseho ibirango byamamaza uruganda rutunganya inzoga rwitwa sikolo.

Akabari karimo ameza y'umukara, ateretseho amacupa abiri arimo inzoga ndetse n'ikirahure kirimo inzoga. Imbere hari ibirango, biriho nimero na kode ushobora kwishyuriraho.

Inzu y'ubucuruzi iriimo umuntu uhagaze imbere y'akabati karimo ibinyobwa by'ubwoko bwose butandukanye harimo intebe z'umukara.

Inzu y'ubucuruzi irimo akabati kanini k'amabara y'umweru n'ubururu. Igice kimwe gikozwe n'ibirahure, imbere harimo amacupa atandukanye y'imitobe ndetse n'amazi.

Amata ari mu bikombe ateretse hejuru y'ayandi, aba yongeyemo ibinyabutabire, ndetse n'isukari kugira ngo aryohe cyane kurushaho, abaguzi bishimire kuyagura bayakunze.

Umuntu uhagaze mu nzu yubucuruzi, irimo amakaro y'umweru, imeza y'igitaka ndetse n'indi meza y'icyuma, inyuma ye hari icyuma gifite ibara ry'umweru gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye, afite amata mu ntoki.

Inzu y'ubucuruzi, inyuma hari akabati kometse ku gikuta, karimo amata ndetse n'uducupa tw'amazi. Imbere hari akabati gakozwe mu birahure ndetse no mu tubaho tw'umweru. Hateretsemo ibikombe ndetse n'ibirahure.

Inzu y'ubucuruzi harimo intebe zitandukanye n'utumeza bifite ibara ry'igitaka n'umukara, harimo icyuma bashyiramo amata kikabika neza atangiritse.

Inzu y'ubucuruzi ifite amakaro y'umweru hasi, harimo intebe y'umweru n'ubururu, harimo akabati inyuma karimo ibyo kunywa bitandukanye.

Akabati ko mu nzu, y'ubucuruzi, gateretsemo amacupa menshi y'amazi yo kunywa asukuye ku ruhande hateretse udukapu bifashisha bari guhaha bagapfunyikamo ibyo bahashye.

Inzu y'ubucuruzi iriho amabara y'ubururu n'umweru. Hariho ibirango by'uruganda rwitwa Nyanza. Imbere harimo akabati k'ubururu n'umweru n'ameza y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibyuma by'amata, bifashisha babikamo amata kugira ngo atangirika, hari akajage k'umweru, indobo y'umweru ibonerana ndetse n'akameza k'umweru.

Umuntu wicaye mu buriro. Imbere ye hari ameza y'umweru, aheretseho isahani y'umweru, iriho imigati ari kurya, akayinywesha icyayi afite mu itasi, imbere ye.

Ameza manini, ari mu nzu y'ubucuruzi. Ariho igitambaro gifite amabara y'umweru n'ubururu n'umukara. Ateretseho ibirahure bibiri, birimo amata. Ndetse n'akabido k'umweru.

Inzu y'ubucuruzi imbere hari akabati kariho ibirahure gateretsemo udukarito twinshi turimo amata ndetse n'ibikomoka ku mata, inyuma hari akabati kometse ku gikuta karimo udukarito twinshi.

Inzu y'ubucuruzi irimo umukobwa uhagaze wambaye ikote ry'umukara n'ijipo y'umweru n'umukara hicaye umusore ufashe terefone mu ntoki harimo icyuma kinini babikamo amata.

Inzu y'ubucuruzi, aho wasanga amata n'ibyo kuyafatisha bitandukanye. Hicamo abantu benshi b'inshuti, baje gusangira ikinyobwa cy'amata.

Ameza manini, ateretseho utubido twinshi tw'umweru, bakoresha mu bucuruzi bw'amata, imbere yatwo hari utundi dukarito dutoya turimo ibikomoka ku mata.

Akabati gakozwe mu byuma, gateretse hanze gafite amabara y'icyatsi gafungishije ingufuri ebyiri. Imbere hateretsemo amacupa menshi iy'amazi arimo ubusa.

Icyapa kiriho umwana w'umukobwa iri kwamamaza ni amata meza ateguwe neza ashobora guhita anyobwa yujuje ubuziranenge aturuka mu ruganda inyange.

Umucuruzi uri gusuka amata mu tubido, amata ari mu tubido tw'umweru ndetse ateretse ku meza y'igitaka, iruhande rwe hari icyuma gitunganya amata kikayarinda kwangirika.

inzu y'ubucuruzi irimo amabara y'ubururu, hariho ibirango by'uruganda rutunganya ibikomoka ku mata rwitwa Inyange, harimo akabati k'umweru karambitsemo ibicuruzwa bitandukanye.

Ameza y'igitaka ateretseho udukarito tubiri turimo ikawa, ku ruhande hari icyuma gikonjesha ibyo kunywa, inyuma hari akabati gateretsemo uducupa turimo ibyo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi irimo amakaro y'umweru, hasi hateretse icyansi k'icyuma kirimo amata, ku ruhande hari ameza manini y'icyuma ndetse n'agatebe k'umuhondo kenda kuvunika.

Umubyeyi ukuze, wicaye mu nzu y'ubucuruzi. Ari kunywa icyayi kiri mu gatasi k'umweru. Iruhande rwe hari icyuma gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye gifite amabara y'umutuku.

Inzu y'ubucurzi irimo icyuma kinini babikamo amata cyikayakonjesha cyikanayarinda kwangirika, inyuma hari akabati gateretsemo amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'imitobe.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo amata hari ibikuta bisize irangi ry'umweru hari akabati kometse kugikuta karimo utubido tw'umweru ndetse n'ijerekani y'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi irimo icyuma babikamo amata kikayarinda kwangirika, iruhande hari akabati gakozwe ahanini n'ibirahure karambitsemo utubido twinshi tw'umweru.

Agakarito kabigenewe barambikamo amagi kugira ngo adakomaho akameneka. Karambitse ku meza ariho igitambaro kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umuntu ufite iparato nini y'umweru irambitseho amandazi menshi ari mu ibara ry'umuhondo n'igitaka, abantu bakunda kuyafatisha icyayi cyangwa amata.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo amata. Ashobora kuba ikivuguto, cyangwa inshyushyu, bitewe n'ayo umuguzi akeneye. Harimo umukobwa wambaye ishati y'umukara, uri kuyasuka mukirahure.

Igikombe kirimo amata yuzuye, giteretse ku kameza. Kariho igitambaro kiriho amabara y'icyatsi n'umutuku ndetse n'umweru. Ni aho bacururiza ibyo kunywa bitandukanye.

Ameza ateretseho igikombe cy'umweru kirimo amata. Hariho ikaramu y'ubururu. Hari ikiganza gifashe umugati mu ntoki.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo amata, harimo ameza y'umweru n'intebe z'umweru, hicayemo abantu batandukanye bari kunywa amata bayanywera mu birahuri.

Imeza ifite amabara y'umweru, ubururu n'umukara ateretseho udushashi tune turimo amandazi ni ibyo bifashisha banywa icyayi, amata, imitobe n'ibindi bitandukanye bidasembuye.

Amasambusa menshi ateretse ku isahani irimo agatambaro k'umweru, ni ikiribwa abantu benshi bakunda kuko gikunze kuba kirimo inyama, bagifatisha ibyo kunywa bitandukanye.

Imeza y'umweru iteretseho ikirahure kirimo amata iruhande hari agasahani k'umweru inyuma hari akabati kariho amabara y'igitaka ndetse kariho n'ibirahure.

Inzu harimo ameza y'umweru ndetse n'intebe z'igitaka n'umukara, ku gikuta hometseho ikirango kinini kiriho ibikomoka ku mata ndetse n'amata.

Indobo ibonerana irambitse ku meza y'igitaka. Harimo amandazi abiri ndetse n'akuma bakoresha bayafata. Bagakoresha kugira ngo batanduza ayandi ari ku ruhande.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru bari ahabugenewe barimo kunkwa amata hagati yabo hari ameza ateretseho ibyansi bibiri ndetse n'igikombe.

Inzu y'ubucuruzi, yubatswe n'amakaro y'umweru hasi, ibikuta byubakishijwe amatafari ahiye, harimo icyuma kinini babikamo amata, kikayarinda kwangirika.

Akabati karimo ikirahure imbere harimo udusorori tubonerana turimo imbuto zihase ndetse banakase, iruhande rwazo hari imineke.

Akabati gatetseho amajerekani abiri arimo ubusa, kari mu nzu yubakishijwe amatafari ahiye, hejuru isize amabara y'ubururu.

Umukobwa ufashe agacupa karimo ibikomoka ku mata byongewemo isukari ndetse n'izindi ntungamubiri, ari kunywa gake gake yumva uburyohe gafite.

Inzu y'ubucuruzi harihomo icyuma gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye kiriho igikombe cy'umweru ndetse n'akandi kadobo gatoya k'icyatsi, ku ruhande hateretse amajerekani menshi y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi iriho amarange y'umweru, ubururu ndetse n'igitaka harimo akabati kometse ku gikuta gateretseho ibyansi bibiri hejuru. Hasi hateretsemo agakapu bapfunyikiramo abakiriya.

Umukobwa uri kubuganiza amata mu ndobo y'umweru, ateretse ku meza iriho ijerekani y'umuhondo, hahagaze umuhungu wambaye ikabutura n'umupira w'umukara, ku ruhande hari inka iziritse ku giti.

Ameza manini ariho igitambaro cy'umukara. Hariho imigati ikoranye ubuhanga, irambitse ku gasahani k'umweru. Iruhande hari udusahane dutoya tw'umweru bashyiramo imigati iyo bagiye kuyikora.

Umubyeyi yicaye yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara. Iruhande rwe hari icyuma gikonjesha amata kugira ngo atangirika hariho ikirango cy'uruganda Inyange, hateretse akajerekani bari gushyiramo amata.

Umuntu afite agacupa mu ntoki karimo amata aba yatunganyirijwe mu ruganda hakongerwa isukari n'izindi ntungamubiri. Akaba yatunganyijwe n'uruganda rwa Mukamira.

Inzu y'ubucuruzi irimo intebe y'umweru n'utumeza tw'umweru n'umukara n'izindi ntebe z'igitaka n'umukara, inyuma hari akabati gateretsemo amajerekani y'umweru.

Umubyeyi ukuze wicaye kunzu y'ubucuruzi, afite terefoni ngendanwa mu intoki, iruhande rwe hari agatasi kumweru karimo icyayi, iruhande rwe rundi hari icyuma gikonjesha ibyo kunywa.

Inzu y'bucuruzi iriho ibirango byanditseho ikaze dayari hashushanyijeho ibinyobwa bitandukanye byinshi bikomoka ku mata bigaragaza ko aho ngaho wahasanga ibyo bicuruzwa.

Icyuma babikamo amata kikayarinda kwangirika. Kiriho ikirango by'ubururu n'umweru by'uruganda rutunganya amata rwa Mukamira. Inyuma mu kabati hateretsemo amacupa y'amazi.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro y'umweru hasi, ibikuta bisize irangi ry'ubururu, harimo icyuma babikamo amata kikayarinda kwangirika, hahagazemo umucuruzi ndetse n'umuguzi umwe.

Inzu y'ubucuruzi irimo amabara y'ubururu n'umweru, harimo akabati k'ubururu kometse ku gikuta, gateretsemo udukarito turimo amata n'imitobe ndetse n'uducupa turimo amazi.

Akabido k'umweru gapfundikije agapfundikizo k'umweru, kometseho agapapuro kariho amagambo y'umukara, gateretse ku meza, imbere hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibirango by'ubururu ndetse n'umweru bya Mukamira bigaragaza ko ushobora gusanga amata akorwa n'urwo ruganda, imbere harimo icyuma kinini babikamo amata.

Akabido k'umweru gateretse ku meza manini y'umukara. Kariho agapfundikizo k'umweru ndetse hometseho agapapuro kariho inyuguti z'umukara, ndetse n'igiciro cy'ibyo birimo.

Abantu bari mu nzu y'ubucuruzi aho bagurisha ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye byoroheje, hari ameza ataretseho isahani iriho capati ndetse n'akandi gakombe karimo icyayi.

Akabati k'umweru gateretsemo isahane iriho amagi hejuru yayo hariho indobo y'umweru hari nakandi kabati k'ubururu karimo ibyiganjemo; imitobe, amazi, amata.

Inzu y'ubucuruzi irimo utubati tw'umukara twinshi, hateretsemo utubido twinshi cyane tw'umweru bigaragara ko turimo amata.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata, hari abaguzi bicaye hari n'umucuruzi wambaye agasengeri uri kubahereza ibyo kunywa bitandukanye bamusabye.

Ameza ateretseho agasahani kari ku iparato hariho amasambusa, amasambusa ni ikiribwa abantu benshi bakunda kuko mo imbere hakunze kuba harimo inyama.

Akabati gafite amabara yenda kuba umukara ndetse n'umweru gateretsemo amacupa maremare arimo amazi atunganywa n'uruganda rwitwa nili.

Inzu y'ubucuruzi hejuru hari ikirango kinini cy'uruganda rwitwa Nyanza milike hashushanyijeho ibyo bakora bitandukanye nk'amata ndetse n'ibikomoka ku mata.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibiranga by'uruganda rutunganya ibikomoka ku mata rwitwa inyange hanze hari intebe z'ubururu ndetse n'imeza y'umweru hari n'umutaka w'umutuku.

Inzu iteretsemo icyuma kinini babikamo amata; kikayarinda kwangirika no gutakaza umwimere wayo, maze bakayaha abaguzi ntakibazo yagize.

Inzu y'ubucuruzi iriho amabara y'ubururu. Iriho ibirango by'uruganda rutunganya ibikomoka ku mata, rwitwa inyange. Imbere harimo icyuma gikonjesha ibyokunywa, bitandukanye.

Ameza y'umweru, ikiganza cy'umuntu gifashe ibyo kurya byitwa capati bikunda kunyweshwa icyayi, amata, imitobe n'ibindi.

Umukobwa uboshye imisatsi yambaye amahereba ku matwi yambaye ikote ry'umukara, yicaye yashyize amaboko ku meza y'umukara.

Indobo ebyiri zirimo amandazi, zifite ibara ry'umweru. Imwe iriho igikoresho cy'icyuma, bakoresha bafata amandazi. Ziteretse ku meza.

Icyuma gikonjesha amata kugira ngo atangirika, iruhande rwah hateretse ijerekani irimo umubikira w'ubururu, hirya hari umwana w'umuhungu uhagaze ku kabati ndetse n'umukobwa na we uhagaze hirya yaho, hagati hakaba harimo intebe y'umukara.

Abantu batatu bicaye mururiro harimo ameza ariho igitambaro cy'umutuku ateretseho amata ari mutujage ndetse no mukirahure bari gusangira baganira.

Akabati ko mu nzu y'ubucuruzi kometse ku gikuta, karimo amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye bidasembuye, nk'imitobe, amazi, ndetse n'ibindi.

Imbere mu cyuma, gishinzwe gutunganya amata. Kikayarinda kwangirika, akagomeza akagumana umwimerere, kugira ngo abaje kuyagura, bayanywe ameze neza, nta kibazo na kimwe afite.

Abana babiri bicaye bari kunywa amata ndetse n'imigati, imbere yabo hari ameza y'umweru ariho amsahani ndetse n'utubido tw'umweru, iruhande hahagaze umugabo.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amatafari ahiye afite ibara ry'igitaka kijimye, imbere harimo icyuma gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye nk'amata, amazi n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo akabati karimo ibirahure, hari ameza y'umweru ateretseho ijage ipfunduye, inyuma hari icyuma bashyiramo amata kikayarinda kwangirika.

Inzu y'ubucuruzi, harimo intebe y'umweru n'intebe y'ubururu, hari umugabo uhagaze ari kureba ahari akameza k'ubururu ndetse hari n'icyuma gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi irimo icyuma kinini babikamo amata kikayarinda kwangirika. Hasi hateretse indobo y'ubururu hari umuntu uhagaze uri kuvoma amata muri icyo cyuma.

Inzu yubakishijwe hasi amakaro y'umweru, ibikuta bisize amarange ry'umweru, harimo ibyuma bibiri binini bibikwamo amata maze bikayarinda kwangirika.

Ikirango kinini kiriho amabara y'ubururu ndetse n'inyuguti z'umweru n'icyatsi, ni icy'uruganda rw'ibikomoka ku mata rwitwa Inyange, hashushanyijeho ibyo bacuruza bitandukanye birimo amata, amazi, imitobe n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo intebe y'umweru, ameza y'umweru, icyuma kibikwamo amata, kugira ngo atangirika, imbere hari ijerekani iriho umubirikira, w'ubururu ndetse n'indobo y'umweru.

Inzu yubakishije hasi amakaro y'umweru. Hariho utubido tune, twanditseho inyuguti zitandukanye. Dupfundikijwe imifuniko y'umweru. Imbere yatwo hari utundi tubido tubiri; kamwe k'umuhondo n'akandi k'umweru kadafite umupfundikizo.

Akameza gatoya gafite amabara y'ubururu. Hejuru hateretseho akadobo kabonerana karimo capati. Hasi hateretse udusorori tw'umutuku tubiri tubonerana, Hasi yatwo hateretse amasahani.

Inzu y'ubucuruzi irimo amakaro y'umweru hasi no kubikuta hari ameza manini y'icyuma harimo icyuma bashyiramo amata kikayarinda kwangirika.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amatafari ahiye arimo icyuma gitunganya amata kikayarinda kwangirika inyuma hari akabati gateretsemo ijerekani y'umweru.

Inzu iriho amakaro y'umweru hasi no kubikuta, hateretse ibyansi bya kizungu by'ibyuma birirmo amata, hamwe harimo akajage kabonerana.

Agaseke ka kizungu gateretsemo udupapuro bakoresha mu gihe bari gufata amafunguro kugira ngo batayanduza, ndetse bakanatwihanaguza. Karambitse ku meza manini y'igitaka.

Inzu y'ubucuruzi iriho urugi rusize amabara y'ubururu, hariho ibirango by'urunganda rutunganya ibikomoka ku mata rwitwa NYANZA iruhande hateretse amajerekani y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo amata. Hahagazemo umukobwa wambaye agapira k'umweru, agakabutura gatoya n'inkweto z'umweru. Hasi hateretse icyansi kinini kirimo amata.

Isahani ifite amabara y'umutuku n'umweru, iriho irindazi ndetse n'agatambaro bakoresha basukura intoki, iteretse ku meza ariho igitambaro kirimo amabara y'umukara.

Icyuma gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye harimo uducupa turimo amazi ndetse n'utundi turimo ibikomoka ku mata hirya harimo utubido turimo amata.

Inzu y'ubucuruzi irimo abakobwa babiri bambaye amashati y'umweru n'ingofero z'umweru, inyuma yaho hari icyuma kinini kibika kibikwamo amata kiakayarinda kwangirika.

Inzu y'ubucuruzi ifite hasi amakaro y'umweru, barimo barayikorera amasuku. Hanze haparitse ipikipiki n'igare. Hari n'abagenzi bari gutambuka ku ruhande.

Umuntu wicaye mu nzu y'ubucuruzi, afite akabido mu ntoki k'umweru, ari gufungura amata ayashyira mu ijage, inyuma ye hari akabati kari mu mabara y'ubururu n'umweru.

Icyuma kibikwamo amata kugira ngo atangirika, kiri mu nzu y'ubucuruzi ifite amakaro y'umweru hasi ndetse n'igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari akameza k'igitaka.

Ameza maremare afite ibara ry'umukara n'umweru. Hariho ibirango by'uruganda rutunganya amata rwa Mukamira hateretseko udukarito twinshi turimo amata ndetse n'ibikomoka ku mata.

Inzu y'ubucuruzi. Irimo umukobwa wambaye ipantaro n'ikote ry'umukara. Ahagaze mu kabati, gateretseho indobo ebyiri, imwe irimo amandazi, indi irimo imigati. Inyuma hari icyuma gikonjesha ibyokunywa kugira ngo bitangirika.

Amandazi menshi yisatuye byerekana ko yahiye neza, ateretse ku isahani y'umweru. Abantu bakunda kuyifashisha bayanywesha icyayi, amata n'ibindi binyobwa bitandukanye bidasembuye.

Amazu y'ubucuruzi menshi ari ku murongo, ariho ibirango bitandukanye, imbere haparitse imodoka y'umweru ndetse hari umugenzi uri gutambuka mu muhanda.

Inzu irimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru harimo icyuma kinini bashyiramo amata kikayarinda kwangirika hahagazemo umukobwa wamabye ikote ry'umukara.

Ibyansi byinshi byagenewe gutwara amata inyuma yaho hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ubururu. Hari n'ameza ndetse n'akabati.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata harimo icyuma kinini bashyiramo amata bakayabikamo kikayarinda kwangirika. Iruhande hahagaze umutegarugori wambaye ikanzu y'umutuku.

Akameza gatoya k'ubururu gateretseho indobo ibonerana y'umweru ifite imikondo y'ubururu, iruhande rwayo hateretse terimusi nini ebyiri babikamo icyayi cyangwa igikoma.

Muriro hari ameza manini maremare y'umukara, hateretseho igikombe kirimo amata, imbere yacyo hari isahani iriho ibyo kurya, hirya hari abantu bicaye ndetse hari n'amasahani imbere yabo.

Akabati kanini kari mu nzu y'ubucuruzi gakozwe n'ibirahure, imbere harimo ibyo kunywa bitandukanye nk'imitobe ndetse n'ibyo kurya nk'imigati, ibinyobwa n'amabiswi. Hejuru hateretse amasambusa n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Umuntu wicaye mu ruriro, afite mu ntoki umugati afatishije agatambaro kabugenewe. Imbere hari intebe ebyiri, imwe y'umweru n'indi y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi, harimo umukobwa w'umucuruzi ufite telefone mu ntoki, harimo n'umuguzi umwe w'umugabo ndetse n'abana babiri, hasi hateretse amacupa menshi y'amazi.

Akabati kari mu nzu y'ubucuruzi gateretsemo utubido twinshi tw'umweru turimo amata harimo n'utundi dukombe turimo ibikomoka ku mata bibabyongewemo isukari n'izindi ntungamubiri zitandukanye.

Umubyeyi uri gucuruza amata y'ubwoko butandukanye ateretse ku meza ariho igitambaro cy'umweru, aba yongewemo ibinyabutabire kugira ngo aryohe kurushaho.

Umukobwa urikubuganiza amata mu cyansi giteretse ku meza ariho igitambaro gisa n'igitaka, yambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari idirishya risize irangi ry'ubururu, inyuma yaho hari umukecuru wambaye umupira w'umweru witeze igitambaro cy'umutuku.

Inzu y'uburuzi icururizamo ibyo kunywa bitandukanye, nk'amata, imitobe, n'ibyo kurya bitandukanye. Hicaye umubyeyi ukuze ari kunywa icyayi kiri mu itasi.

Inzu y'ubucuruzi bacuruza ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo amata. Hari ibyuma bibiri bibikwamo amata bikayakonjesh, kimwe kiriho ibirango by'uruganda rwitwa Mukamira.

Ibyansi byinshi bifite imipfundikizo iriho utubara tw'umukara tuzengurutse, akaba ateretse mu nzu ikoreshejwe amakaro y'umweru ndetse ibikuta nabyo bisa umweru.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo amata, ashobora kuba inshyushyu cyangwa ikivuguto, hari ameza y'umweru ateretseho ijage ipfunduye, agapfundikizo kayo gateretse ku ruhande.

Inzu y'ubucuruzi irimo icyuma gitunganya amata kikayarinda kwangirika ndetse kikayagumishamo ubukonje hirya hari akabati gateretseho amazi n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Umuntu uteruye akavido muntoki harimo umutobe ukozwe mumatunda, handitse ko urimo intungamubiri nyinshi zo mubwoko bwa se.

Umuntu uhahagaze ufite icyansi kinini k'icyuma ari gusuka amata mu kindi cyuma kinini cyabugenewe babikamo amata bikayarinda kwangirika.

Umukobwa ukorera mu nzu y'ubucuruzi ari kwakira umugozi imbere harimo akabati kamanitsemo ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo imitobe.

Ameza ateretseho udukarito turi mu ibara ry'umuhondo, tubamo amata y'ikivuguto. Hari n'andi mata ari mu tubido tw'umweru. Hari n'udukombe turimo ibikomoka ku mata.

Capati ziri ku isahani iteretse ku meza ni ikiribwa gikunda gukoreshwa umuntu ari kunkwa icyayi, amata, imitobe n'bindi.

Inzu y'ubucuruzi, irimo umucuruzi w'umukobwa wicaye, ndetse n'umuguzi w'umugabo uhagaze, bacuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo ibyo kunywa bidasembuye n'indi mitobe itandukanye.

Inzu yubakishijwe amakaro y'umweru ndetse ku bikuta hasize amarangi y'umweru, harimo ibyuma bibiri bitunganya amata bikayarinda kwangirika.

Inzu y'ubucuruzi igurishirizwamo ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo amata. Harimo abagabo babiri bari gusuka amata mu cyuma cyabugenewe, kibikwamo amata kugira ngo atangirika.

Inzu y'ubucuruzi iri ku nkengero z'umuhanda iriho ikirango hejuru kigaragaza ko bahacururiza amata ndetse n'ibikomoka ku mata bikorwa n'uruganda rwitwa nyanza mirike.

Amagi menshi ari mu bikoresho byabugenewe, biri mu ibara ry'icyatsi. Ateretse ku meza. Iruhande rwaho hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku, uriho amabara y'umukara.

Umubyeyi wicaye ku ntebe y'ubururu imbere ye hari ameza ateretseho igikombe kirimo amata, isahani iriho amandazi. Iruhande rwe hari icyuma gikonjesha ibyo kunywa birimo imitobe kugira ngo bitangirika.

Akarango kari mu mabara y'umuhondo handikishijweho inyuguti z'umukara, kariho imibare ya kode ukoresha wishyura umucuruzi ukoresheje Terefone ngendanwa.

Akazu gafite amabara y'umuhondo imbere hicayemo umu agenti, hanze hahagaze abagabo batatu baje gusaba serivise zitandukanye bagenda bategereza umwe umwe.

Abantu babiri b'abasore bari kubyina, bambaye imipira y'umweru n'ipantaro y'umweru ndetse n'ubururu. Iruhande hahagaze umukobwa wambaye agapira k'umweru n'agatambaro mu mutwe.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda, gafite amabara y'umuhondo, mo imbere harimo umu ajenti w'umukobwa, hanze hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero y'umuhanda kari mu mabara y'umuhondo kanditseho inyuguti z'umukara, imbere hicayemo umwajenti ari kwakira abaguzi bahagaze hanze.

Umugabo wishimye wambaye agapira k'umuhondo kariho ibirango by'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, yicaye ku igare inyuma ye hari abantu benshi ndetse hari umutaka ufite amabara y'umuhondo.

Akazu k'ubucuruzi hariho amabara y'umuhondo, hejuru hariho ikirango cy'ikigo cy'itumanaho cya MTN, imbere harimo umwajenti, hanze hahagaze abaguzi benshi bategereje guhabwa serivisi zitandukanye.

Akazu k'ubucuruzi kari mu mabara y'umutuku n'umweru, kariho ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya Airtel. Aho handitseho ko batangirwa serivisi zo kubitsa no kwikuza amafaranga kuri telephone.

Inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho kitwa emutiyeni. Imbere hari abakozi babiri bambaye imipira y'umuhondo. Bari gukoresha imashini zibafasha mu kwakira abaje babagana.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'umukara ndetse n'ameza y'igitaka. Yambaye agapira k'umweru. Ku meza hateretse amazi. Ari kwakira abaguzi batandukanye bari kutubaza ibijyanye na serivise atanga.

Inzu y'ubucuruzi iriho amabara y'umuhondo ndetse n'utudomo tw'umweru imbere hicaye umucuruzi uyikoreramo ari kureba kuri terefone ye ngendanwa.

Umukozi ukora mu kigo kigari cy'ubucuruzi, haba harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye by'amoko yose, ari kwakira abaguzi abafasha kwishyura, areba ibyo baguze.

Akarango kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara kanditseho izina ry'umucuruzi, ndetse na kode ushobora gukoresha umwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga rya terefone.

Akazu k'ubucuruzi kariho amabara y'umuhundo ndetse n'ibirango by'ikigo k'itumanaho cya Mtn. Karakinze iruhande rwaho hahagaze umusore uri kuvugira kuri telefone.

Abantu bari mu isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye harimo amakaroni, umuceri, kariti, intoryi, imiteje, pawavuro, ifu y'ubugari.

Akazu k'ubucuruzi hariho amabara y'umuhondo, ni ak'ikigo k'itumanaho cya MTN, imbere harimo abajenti babiri, hanze hahagaze umugabo wambaye ikote bari kwakira.

Umu agenti w'ikigo k'itumanaho cya MTN yambaye akajire k'umuhondo ari guhereza terefone umuguzi hajuru hari umutaka w'umuhondo ndetse n'undi w'umutuku.

Inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, harimo abakozi bambaye imipira y'imihondo y'icyo kigo bari gusobanurira undi mugabo w'umwera ibiri ku gapapuro bari kureberaho.

Inzu ikoreramo ikigo k'itumanaho cya Emutiyene, imbere harimo abakozi babiri b'icyo kigo bambaye imipira y'umuhondo, imbere yabo hahagaze umugabo, harimo ameza y'umukara ndetse n'imashini y'umukara bari gukoreraho.

Abantu benshi bateraniye ahari kubera imenyekanishabikorwa ry'ikigo cy'itumanaho cya MTN, harimo abakozi b'icyo kigo ndetse bari kwakira abaza babagana babasobanurira byinshi bifuza kumenya.

Inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni. Imbere hicayemo abakobwa bambaye imipira y'umuhondo bakorera icyo kigo. Iruhande rwabo hahagaze umukguzi w'umukobwa.

iri murikagurisha mu kibanza k'ikigo k'itumanaho cya MTN hari abakozi bacyo bambaye imipira y'umuhondo amapantalo ndetse n'ingofero z'umukara

Ahari kubera imenyekanishabikorwa by'ikigo k'itumanaho cya MTN, hari ameza azengurutse ariho igitambaro k'ibara ry'umuhondo, arambitseho udukoresho dutandukanye nka terefone n'ibindi.

Ahari kubera imenyekanishabikorwa ry'ikigo cy'itumanaho cya MTN hari abagabo n'abasore benshi bahagaze bambaye imipira y'umuhondo hari umutegarugori uri gutambuka iruhande rwabo.

Abantu babiri bahagaze umwe yambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'agapira k'umuhondo karimo amabara y'ubururu, undi yambaye ishati y'umukara, afite telefone mu ntoki.

Akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo, kariho ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni, imbere harimo umwajenti w'umukobwa, ari kwakira abaguzi benshi b'abagabo n'abategarugori, bahagaze hanze.

Akazu k'ikigo cy'ubucuruzi ka emutiyene gasize irange ry'umuhondo, kandikishijeho amabara y'umukara ndetse n'umutuku, hariho umukobwa uri gutanga serivise ndetse n'abagabo bahagaze iruhande.

Ihema ryubatse imbere yaho hari irindi hema ry'umuhondo ririho ibirango by'kigo cya emutiyene, hari abagabo benshi bari kureba muri iryo hema bambaye imyenda itandukanye irimo imipira y'icyatsi, amashati y'ubururu, imipira y'umutuku.

Inzu yubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye imbere hahagaze umubyeyi ukuze ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantalo y'umutuku.

Abantu babiri bafite telefoni zigendanwa mu ntoki zabo, bari kuyikoresha bishyura ku buryo bw'ikoranabuhanga byo koherezanya amafaranga batayakozeho.

Ameza y'umukara arambitseho agatabo kanditseho ibintu byinshi ndetse arambitseho n'akandi gapapuro kariho amabara y'umuhondo, n'umweru, n'umukara kariho kode z'umucuruzi.

Akazu k'ubucuruzi kariho amabara y'umuhondo, hari abaguzi bahagaze imbere bari gusaba serivise zitandukanye zitangirwa aho ngaho, nkizo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri telefone ngendanwa.

Akazu k'umucuruzi kari kunyengero z'umuhanda, gatangwa n'ikigo cy'itumanaho cya MTN kafite amabara y'umuhondo imbere hicayemo umwajenti wambaye umupira w'umuhondo ugakoreramo.

Inzu y'ubucuruzi yagutse yitwa sawa siti, ushobora gusangamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye by'ubwoko bwose, ibyo kunywa, ibyo kurya, ibyo kwambara n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu nzu.

Inzu y'ubucuruzi. Hahagazemo umucuruzi w'umutegarugori, wambaye agapira k'umuhondo n'ingofero y'icyatsi, irimo akarongo k'umuhondo. Ahagararanye n'umuguzi ufite telefone mu ntoki.

Inzu y'ubucuruzi iriho amabara y'umuhondo ndetse hariho n'ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, imbere hicayemo abakozi benshi b'icyo kigo bari kwakira abaguzi baje babagana.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo cya emutiyene, hicayemo umuhungu wambaye umupira ufite ikora ry'ikigina. Imbere ye hari igitabo kinini kirimo ikaramu y'ubururu yifashishwa mu kwandika inintu bitandukanye.

Inzu iberamo imurikagurisha. Aha ni ku kibanza cy'ikigo cy'itumanaho, cya emutiyeni. Hari ibirango by'umukara n'umuhondo. Imbere hahagaze abagabo babiri, n'umwe wicaye.

Abantu babiri bahagaze imbere y'akazu k'ubucuruzi k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umupira w'icyatsi cyijimye.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibirango byikigok'itumanaho cya MTN, hanze hahagaze abagabo benshi bambaye imipira y'umuhondo n'umukara n'umweru bakorera icyo kigo.

Akazu k'ubucuruzi gasize amabara y'umuhondo, imbere harimo umu ajenti w'umusore. Aho atanga serivise zitandukanye zirimo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri telefone.

akazu k'ubucuruzi kariho amabara y'umuhondo nakikigo k'itumanaho rya mtn hahagaze umwagenti wambaye akajire k'umuhondo ndetse nundi mugabo wambaye umupira w'umuhondo

Umuntu wicaye munzu irimo amakaro y'umweru arimo uturongo tuberamye afite telefone mu ntoki imbere ye hicaye undi muntu wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, ndetse n'inkweto.

Umukobwa ufite ishakoshi nini mu ntoki ahagaze imbere y'akazu k'ubucuruzi kariho amabara y'umuhondo, aho batangira serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri terefone.

Umuntu wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'agakapu k'umukara, afashe terefone mu ntoki. Ari kugerageza kwishyura akoresheje ikoranabuhanga ariko biri kwanga.

Abakozi babiri bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, ni abategarugori bombi, bari guseka bishimye bambaye uturango mu ijosi tugaragaza amazina yabo nibyo bakora.

Umutegarugori uri guseka, wishimye. Ahagararanye n'umugabo wambaye ishati y'umweru, afite telefoni mu ntoki. Inyuma hari ikirango kinini, cya sosiyete y'itumanaho, ya emutiyene.

Akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo ndetse yandikishijweho inyuguti z'umukara, kari ku nkengero z'umuhanda iruhande rw'inzu nini ifite amadirishya n'imiryango.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye umupira w'icyatsi n'ikabutura y'umukara. Bambaye udupfukamunwa bose bari kureba muri telefone. Bari impande y'amapikipiki.

Ahari kubera imenyekanishabikorwa ry'ikigo cy'ubucuruzi n'itumanaho cya MTN, hari abakozi babiri bambaye imipira y'umuhondo, hari akameza kazengurutse kariho amabara y'umuhondo ndetse gateretseho ibicuruzwa bitandukanye.

Umusore uhagaze mu isoko yambaye agapira k'icyatsi afite terefoni mu ntoki ndetse n'ikarita, imbere ye hari inyanya ziri mu dusorori tw'ubururu.

Ameza y'umukara ateretseho agapapuro kariho amabara y'umuhondo n'umukara, kariho kode y'umucuruzi ushobora kwishyuriraho, hateretseho n'agatabo kanditseho ibintu bitandukanye.

Igikuta cyo mu nzu y'ubucuruzi gifite ibara ry'umweru, hometseho agapapuro gafite ibara ry'umuhondo kariho amazina y'umucuruzi ndetse na kode wakwifashisha umwishyura mu ikoranabuhanga.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda harimo umwajenti uri kwandika mu gitabo, imbere ye hahagaze umwari waje gushaka serivise zitandukanye ahongaho.

Umugabo uri kuri terefone, wambaye ikote ry'umukara, yicaye ku ipikipiki. Ari kumwe n'umwajenti ufite terefoni mu ntoki. Yambaye umupira w'umuhondo.

Akarango kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'inyuguti z'ubururu bwijimye, kariho ibirango by'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni handitseho izina ry'umucuruzi ndetse na nimero akoresha bamwishyuraho.

Akazu k'ubucurizi kariho amabara y'umuhondo. Imbere harimo umwagenti w'umukobwa, ari kwakira undi muguzi w'umukobwa uhagaze hanze. Batanga serivisi zitandukanye z'ikigo cy'itumanaho cya Emuyiyeni.

Akarango kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, kariho kode z'umucuruzi witwaga NGABO NZIZA ushobora gukoresha umwishyuriraho ukoresheje Terefone ngendanwa, kometse ku cyuma gikonjesha ibyo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi, imbere hahagaze abategarugori babiri. Inyuma hari icyuma kinini gikonjesha ibyo kunywa bitandukanye, byiganjemo imitobe bari kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga rya telefone.

Akazu k'ubucuruzi gasize amabara y'umuhondo kandikishjweho inyuguti z'umukara n'umutuku. Imbere harimo umukobwa ugakoreramo ni ak'ikigo cy'ubucuruzi n'itumanaho rya emutiyeni.

Inzu y'ubucuruzi ifite amabara y'umutuku imbere harimo umucuruzi wambaye agapira k'umutuku ndetse ari kwakira umuguzi wambaye agapira k'umuhondo n'umukara ufite amarinete mu ntoki.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda, kariho amabara y'umuhondo ndetse n'inyuguti z'umukara, zigaragaza ko ushobora kuhasanga serivisi zo kubikuza no kubitsa amafaranga kuri telefone.

Utuzu tubiri dutoya tw'ubucuruzi, kamwe kari mu mabara y'umuhondo n'umukara, akandi kari mu mabara y'umutuku n'umweru, kamwe ni ak'ikigo cyitumanaho cya Emutiyene akandi ni aka Eyateri.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni imbere yako hahagaze abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe ategereje guhabwa serivise zitandukanye zitangirwa muri ako kazu.

Inzu irimo amabara y'umuhondo n'umweru yometseho ibirango bitandukanye by'ikigo k'itumanaho cya MTN, hirya hariho ifoto iriho y'umukecuru n'umwana bari guseka.

Aba agenti babiri bicaye bambaye imipira y'umuhondo. Imbere yabo hari utumeza tw'umuhondo duteretseho ibitabo ndetse na telefone ntoya. Iruhande hagaze abaguzi nabo bari kubaza serivisi zitangirwa aho hantu.

Inzu y'ubucuruzi, imbere hari akazu k'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni, harimo umukobwa uri gutanga serivisi, umuhungu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, uri gutambuka.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhada, gafite amabara y'umutuku, kandikishijweho inyuguti z'umweru n'umuhondo; ni ak'ikigo cy'itumanaho cya Eyateri.

Urupapuro gafite amabara y'umuhondo kariho ikirango kikigo cy'itumanaho cya MTN, kanditseho amazina y'umucuruzi ndetse na kode ushobora gukoresha wishyura.

Ibiro by'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni mo imbere harimo umukozi wambaye agapira kariho amabara y'umuhondo, ndetse n'undi wambaye agapira k'umweru. Bari kwakira umuguzi waje abagana.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero y'umuhanda, kariho amabara y'umuhondo, kandikishijweho inyuguti z'umukara zigaragaza ko hakorerwa serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri telefone.

Umu ajenti wambaye akajire k'umuhondo, akaba akorera ikigo k'itumanaho cya emutiyene, arikwakira umuguzi wambaye agapira k'umutuku, inyuma yabo hari umutaka munini ufite amabara y'umuhondo.

Akarango karimo amabara y'umuhondo ndetse n'inyuguti z'umukara, gashishikariza abantu kwishyura bakoresheje uburyo bwa terefoni bwo kohererezanya amafaranga kandi banakira amakarita ya banki.

Inzu y'ubucuruzi isa neza irimo amabara y'umuhondo, iteretseho ameza y'ikirahure hariho akarango kariho amabara y'umuhondo n'umukara handitseho nimero ushobora kwandika wishyura umucuruzi.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'ubururu, bicaye mu ihema rifite ibitambaro by'umuhondo n'umweru. Imbere yabo hari umukobwa ufite indangururamajwi, uri kwamamariza ikigo cy'ubucuruzi bwa mtn.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya Airtel hari ameza manini ari mu ibara ry'umutuku n'umweru ,imbere harimo tereviziyo iri kwaka.

Akabati k'umukara kariho imikondo ikozwe mu twuma, hometseho akarango k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, kamamaza uburyo bakoresha interineti yihuse.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo ikigo k'itumanaho cya eyateri, harimo akabati k'ibirahure gateretsemo udukarito tw'umutuku turimo amaterefone ngendanwa.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ishati y' umutuku afite terefone ngendanwa mu ntoki ndetse yambaye isaha ku kaboko undi yambaye agapira k' umuhondo n' ingofero y' icyatsi.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe bahagaze aho bacururiza esansense, imbere yabo hari imodoka ndetse inyuma yabo hari ibikoresho bifashisha bavoma esanse bayishyira mu modoka.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda, gafite amabara y'umuhondo, karimo umwajenti ndetse hari umugabo uhagaze hanze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Akazu k'ubucuruzi karimo amabara y'umuhondo, imbere hicaye umwajenti wambaye akajire k'umuhondo, ari kwakira umuguzi uhagaze imbere wambaye ishati n'ingofero y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi irimo abakozi bayikoreramo ndetse hari abakozi b'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni bazanye uburyo ushobora kwishyuriraho ukoresheje terefone ngendanwa.

Inzu ikoreramo ikigo cy'ubucuruzi n'itumanaho cya eyateli. Hari umuryango munini wometseho ibirango biriho amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hanze hicaye umukobwa.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda kariho amabara y'umuhondo ndetse n'ibirango byerekana ko ushobra kuhasanga serivise zo kubitsa no ubikuza amafaranaga ukoresheje terefone ngendanwa.

Akazu k'umucuruzi w'ikigo cya emutiyene harimo umukobwa wambaye umupira w'umukara uru gutanga serivise, imbere hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'ubururu.

Umuntu afashe telefone mu ntoki, ari ku rubuga rw'ikoranabuhanga rukorera ubucuruzi kuri murandasi, aho ari kureba ibicuruzwa bitandukanye agahitamo icyo akeneye maze akakigura bakazakimuzanira.

Akazu k'ubucuruzi gasaje kari ku nkengero z'umuhanda, karafunze kariho amabara y'umuhondo, ndetse kandikishijeho inyuguti z'umukara, kamenyesha ko ushobora kuhasanga serivise zo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Ibiro bikoreramo ikigo cy'itumanaho cya mtn harimo ameza manini y'umukara, hateretseho imashini z'umukara ndetse yicaye imukozi wambaye umupira mu nyundo ukorera icyo kigo arikwakira umuguzi.

Akazu k'ubucuruzi bw'ikigo cya MTN, hariho amabara y'umutuku ndetse n'umukara, aho bashishikariza abantu kugura amainite ndetse no gukoresha interinete, inyuma hari imikindo, kuruhande hari imodoka ihaparitse.

Umuntu ufite telephone mu biganza bye, bigaragara ko yakanze imibare ituma ashobora kugura ama inite akoresheje ikoranabuhanga rya mobile money kuri MTN.

Ameza manini y'akazi, ateretseho imashini ebyiri ndetse hariho udupapuro twinshi turiho imyirondoro na nimero bishyuriraho abacuruzi.

Imodoka y'umukara irimo umushiberi hanze hahagaze umugabo wambaye agapira k'umuhondo, imodoka iriho akarango k'umuhondo hariho code ushobora kwishyuriraho.

Ibirango by'ikigo k'itumanaho cya emutiyene hari n'ushinzwe umutekano, ibyuma birangurura amajwi, hari n'abagabo babiri bahagaze bari kwaka serivise.

Umugabo uhagaze wambaye amadarubindi y'umukara, yambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari ipikipiki iri mumabara y'umuhondo n'umukara, inyuma ye hari ikirango kinini cy'ikigo cy'ubucuruzi cya emutiyeni

Umu agenti uri kwakira umuguzi w'umukobwa amuha serivise zitandukanye. Akorera mu kazu k'ubucuruzi kariho amabara y'umuhondo ndetse n'umweru kari ku nkengero z'umuhanda.

Ahari kubera imenyekanishabikorwa ry'ikigo cy'itumanaho cya eyateli. Hajuru hari imitaka myinshi y'amabara y'umutuku yanditseho eyateli. Hasi hahagaze abantu benshi, harimo abambaye impira y'umutuku.

Igisenge k'inzu gifite amabara y'umuhondo n'umweru, handitseho ibirango by'ikigo k'iitumanaho cya emutiyeni bigaragaza ko ushobora kuhasanga serivisi zitandukanye zitangwa n'icyo kigo.

Akarango kari mu mabara y'umuhondo kandikishijweho inyuguti z'umukara ni ak'ikigo cy'itumanaho cya MTN, handitseho nimero z'umucuruzi ushobora gukoresha wishyura kuri telefone.

Agapapuro kariho ibirango by'igiko k'itumanaho cya Emutiyeni, gafite amabara y'umuhondo ndetse n'inyuguti z'umukara, hariho nimero z'umucuruzi ushobora gukoresha umwishyuriraho.

Akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho cya mtn, imbere harimo umu ajenti uri kwakira abaje bamusanga hanze hahagaze abaguzi bane batandukanye.

Akazu k'ubucuruzi gakoze mu mbaho gafite amabara y'igitaka ndetse n'umukara hometseho imitako ya kinyarwanda y'umweru n'umukara, imbere harimo abakozi bari kwakira abaje babagana.

Abakobwa batatu bari kwifotoza baseka. Babiri bambaye imipira y'umuhondo, undi yambaye agapira k'ubururu kanditseho momo, umwe uri hagati yambaye ingofero y'umukara ndetse n'amadarubindi.

Ahari kubera imurikagurishwa, ku kibanza kirimo inzu iriho amabara y'umuhondo n'umweru y'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni. Harimo abakozi benshi imbere, ndetse hanze hahagaze abaguzi benshi.

Akazu k'ubucuruzi kari mu mabara y'umuhondo, imbere harimo umuajenti w'umukobwa ari kwakira umuguzi w'umukobwa uhagaze oruhande rw'ako.

Inzu ikoreramo ikigo kitumanaho cya MTN harimo ameza manini y'umukara ateretseho imashini ebyiri z'umukara, imbere hicaye umukozi w'icyo kigo ari kwakira umuguzi waje amugana.

Akazu k'ubucuruzi gafite amabara y'umuhondo kanditseho inyuguti ziri mu mabara y'umukara n'umutuku k'ikigo cy'itumanaho cya emitiyeni ushobora kuhasanga serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Akabati gakozwe mu birahuri, hejuru hateretseho agakarito karimo telefone ndetse hateretseho akarango kariho amabara y'umuhondo ndetse na kode z'umucuruzi, ushobora gukoresha wishyura.

Akarango kari mu mabara y'umuhondo n'umweru kandikishijwemo inyuguti z'umukara, kerekana kode y yumucuruzi witwa inuma technology, aho ushobora kumwishyura ukoresheje terefone ngendanwa.

Akazu k'ubucuruzi kari mu mabara y'umuhondo n'umweru kariho ibirango by'ikigo k'itumanaho cya MTN bigaragaza ko hatangirwa serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri telefone ngendanwa.

Akazu k'ubucuruzi gato gasize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hari ibirango bitandukanye bigaragaza serivise ushobora kuhasanga nk'izitumanaho rya enterinete yihuta.

Ahari kubera ubukangurambaga ndetse n'imenyekanisha bikorwa by'ikigo cy'itumanaho cya MTN hari umukozi wacyo uhagazemo ndetse n'akameza karambitseho ibicuruzwa bitandukanye.

Inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya emitiyene, imbere hari akabati kanini ndetse kariho n'ikirahure, gitandukanya abakozi, n'abaguzi imbere hicayemo umukozi w'icyo kigo inyuma haahgaze abaguzi babiri.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo cya emutiyeni harimo umu ajenti utanga serivise hari n'abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umuhondo n'undi yambaye umupira w'icyatsi'

Umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse afite telefone y'umukara mu ntoki. Ahagaze aho bacururiza esanse. Agiye kwishyura akoresheje telefone.

Akazu gafite ibara ry'umutuku kanditseho inyuguti z'umweru za eyateri ni ak'icyo kigo inyuma hahagaze abantu benshi ndetse hari n'imodoka ikora umwuga wo gutwara abantu.

Akazu k'umucuruzi kari mumabara y'umuhondo imbere hicayemo umwajenti ari kwakira umusore uri hanze wambaye umupira w'umweru ndetse uhetse igikapu cy'umukara.

Akarango kari mu mabara y'umuhondo n'ubururu n'umweru. Kandikishijweho inyuguti z'umukara kariho kode z'umucuruzi ndetse n'amazina ye, aho ushobora kumwishyura ukoresheje terefone ngendanwa.

Umuajent wicaye ku nkengero z'umuhanda, afite akarango mu ntoki kari mu mabara y'umuhondo kariho kodi z'umucuruzi, aho ushobora kwishyura ukoresheje terefone ngendanwa.

Inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya MTN, hariho ibirahure imbere hicayemo umukozi wambaye agapira k'umuhondo hateretse imashini ebyiri z'umukara bifashisha mukazi.

Abantu batandukanye barimo abasore, abana, ababyeyi, abagabo babiri bafatanye mu kiganza bambayei imipira y'imihondo, aho bari kwamamariza ikigo cya emutiyene ko wagura amayinite ndetse na interinete.

Abagabo batatu bambaye ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya MTN, imwe yicaye ku gatebe ari kureba muri telefoni, bari mu mutaka, inyuma yabo hari imodoka ndetse n'ipikipiki bihaparitse.

Uburyo ushobora gukoresha wohereza amafaranga umuntu ukoresheje ikoranabuhanga rya telefone ritangwa n'ikigo k'itumanaho cya emutiyene.

Umucuruzi wambaye itaburiya y'umuhondo iriho ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, inyuma ye hari intebe z'icyatsi n'ameza.

Akazu k'ubucuruzi kari ku nkengero z'umuhanda imbere harimo umu ajenti w'igitsina gore hanze hahagaze abagabo babiri bari kumubaza serivise atanga.

Umuntu ufashe agatelefoni gatoya mu ntoki aho agiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga rya telefone. Agashyira amafaranga kuri kodi y'umucuruzi imuri imbere.

Akazu k'umucuruzi kagizwe n'amabara y'umuhondo ndetse ninyuguti z'umukara. Ni ak'icyigo cy'ubucuruzi cy'itumanaho cya MTN, hanze hahagaze abagabo babiri umwe yambaye ikanzu n'ingofero y'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umukara afite ugare mu ntoki, rifite amabara y'umuhondo n'umukara imbere ye hahagaze undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo ari kumuhereza terefone ngendanwa.

Inzu ikoreramo ikigo cyitumanaho cya MTN imbere hicayemo abakozi bicyo kigo, imbere yabo hari amamashini y'umukara, kuruhande hicaye abantu batandukanye baje kubaza serivise zicyo kigo.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya Mtn. Gasize amabara y'umuhondo ndetse n'umweru niho ushobora gusanga serivise muri icyo kigo zitandukanye nko kubitsa no kubikuza amafaranga.

Abantu bahagaze ahari kubera imenyekanisha bikorwa ry'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Harimo abakozi b'icyo kigo bambaye imipira y'umweru ndetse bari kwakira abaguzi baje babagana.

Inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho, cya emutiyeni. Imbere harimo umukobwa uhagaze, urimo usobanurira abaje bamugana, serivise zitandukanye. Ku meza hateretse imashini y'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, irimo uturongo tw'umuhondo, yanditseho Vuba Vuba, imbere ye hari ipikipiki iriho agakarito kabugenewe k'icyo kigo.

Amapikipiki atatu ariho ingofero z'umweru hejuru handitseho ikigo akorera, ndetse na nimero bakoresha, ndetse n'uburyo ushobora kubasanga ku mbuga nkoranyambaga.

Inzu nini ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, iriho ikirango cy'iposita. Hasi hari amamodoka ndetse n'amapikipiki afasha icyo kigo mu kazi kacyo ka buri munsi.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'igitaka undi ari gukoresha ipikipiki mu kazi ke kaburi munsi agemurira abantu batandukanye ibicuruzwa baguze.

Ipikipiki iparitse ku nkengero z'umuhanda w'amabuye hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi kijimye akorera ikigo cy'ubucuruzi kitwa vuba vuba.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi kjimye, ipantaro y'ubururu, n'inkweto z'umweru n'umukara. Ari ku ipikipiki akoresha yifashisha mu bucuruzi bwe bwa buri munsi, aho ubatuma ibicuruzwa bakabikuzanira mu rugo.

Abagabo babiri bambaye amashati yicyatsi cyijimye, bahagaze iruhande rw'pikipiki ikorera ikigo cyubucuruzi cyitwa vuba vuba, aho utumiza ibicuruzwa bakabigusangisha murugo.

Ikirango cy'ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi kitwa Kigure. Aho berekana uburyo butandukanye ushobora gukoresha telefone cyangwa mudasobwa ugura ibicuruzwa biri kuri murandasi.

Urubuga rw'ubucuruzi rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi, ni urw'abanyarwanda aho bashobora guhahiraho bakanagurisha ndetse bakanatumiza, bakanohereza ibintu hanze.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo hariho inkweto, utwuma twica imibu n'ibindi bitandukanye.

Umuntu utwaye ipikipiki ukorera ikigo gikorera kuri murandasi cya vubavuba aho atwaye ibicuruzwa, ibyo kurya n'ibindi abishyiriye abantu mu ngo zabo.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi, aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye ugahitamo icyo ushaka nk'inkweto, terefoni, imipira n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi kijimye ndetse n'ipantaro y'ubururu imbere hari ipikipiki iriho agakarito kabugenewe babikamo ibicuruzwa bitandukanye

Umugabo ukorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Kasha, yambaye umupira w'umukara ndetse yambaye ingofero yicyatsi ikoreshwa n'abatwara amapikipiki.

urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi hariho ibicuruzwa bitandukanye nk'amafi, inyama, ibitoki, inyanya nibindi ndetse hariho na kode ushobora gukoresha wishyura.

Amapikipiki ane yose aparitse ku nkengero z'umuhanda yose ariho udukapu twabugenewe babikamo ibicuruzwa bakabigemurira ba nyirabyo bakabisangisha ababibatumye iwabo.

Ipikipiki ebyiri ziriho udukapu bashyiramo ibicuruzwa bitandukanye zikaba zikora umurimo wo kugemurira abaguzi ibyo baguze bakabibasangisha mu rugo.

Ipikipiki iparitse ku nyengero z'umuhanda. Hubatse neza. Ni iyi kigo cy'ubucuruzi kitwa vuba vuba. Aho ushobora kubahamagara kuri nimero zabo bakagusangisha ibicuruzwa waguze mu rugo iwawe.

Abagabo bane batwaye amapikipiki bakorera ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi bashyira abaguzi ibyo baba bakeneye mu ngo zabo.

Inzu y'ubucuruzi ifite amabara y'umweru, ikoreramo abacuruza imyenda. Ku gikuta hariho udutara tubiri tw'umukara, hanze haparitse imodoka y'ubururu.

Amapikipiki menshi akoresha umuriro w'amashanyarazi. Yicayeho abagabo batandukanye, bambaye ingofero zabugenewe ndeste n'utujire tw'umuhondo. Bayakoreha mu kazi kabo ka buri munsi.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi, aho usangaho ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo, hano harimo akabati kanini, ishakoshi n'ibindi.

Ipikipiki ikorera ikigo cy'ubucuruzi kitwa vubavuba iruhande rwayo hahagaze umukozi ukorera icyo kigo aho ushobora gutumiza ibicuruzwa bitandukanye maze bakabikuzanira aho uri nko mu rugo.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi. Aho hariho ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibyo abadamu bakoresha mu isuku. Hariho n'ibiciro byabyo.

Urubuga rw'ubucuruzi rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi aho ushobora gutumiza ibicuruzwa i burayi, amerika, aziya na osiyaniya maze bakabigusangisha aho uri ntakibazo.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi, aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo. Hariho inkweto, amashakoshi, amakote y'imbeho n'ibindi.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi ipantaro y'umukara ndetse n'uturindantoki tw'umukara n'icyatsi, afite ingofero yambarwa n'abatwara amapikipiki ndetse yicaye ku ipikipiki ye akoresha mu kazi kaburi munsi.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ipantaro, y'igitaka yambaye igofero yabugenewe y'abantu batwara amakipiki, akorera ikigo gikorera kuri murandasi kigenewe gushyira abantu ibyo kurya, mu ngo zabo kitwa vuba vuba.

Amapikipiki menshi ari mu muhanda atwawe n'abagabo bambaye amashati manini y'umutuku n'ingofero zabugenewe z'umutuku, handitseho yego moto.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye waruguriraho hariho imisatsi y'abadamu, amasakoshi, inkweto n'utundi dukoresho dutandukanye.

Urubuga rw'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, rukorera kuri murandasi. Aho bacuruza bicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imboga ndetse n'imbuto. Aho ubahamagara, bakabikuzanira iwawe mu rugo. Cyangwa ugaca kuri murandasi.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi aho ushobora gutuma ibintu bitandukanye ukeneye cyane cyane ibyiganjemo iby'abagore bifashisha mu masuku yabo ya buri munsi.

Icyapa kigaragaraza ubucuruzi bukorera kuri murandasi aho abantu bashyira ibicuruzwa kubabikeneye mu ngo zabo, ndetse bakanabahamagara na terefone.

Inzu y'ubucuruzi aho harimo abakozi benshi bambaye imyenda y'umukara n'ingofero z'umweru ndetse n'uturindantoki, bari gutunganya ibitoki babishyira mu makesi.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera ubucuruzi kuri murandasi, aho ushobora gusanga ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo ukaba wabitumiza bikazakugereraho igihe mwavuganye.

Urubuga rw'ubucuruzi rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyokurya imbuto ibitoki inyanya inyama amafi n'ibindi.

Ipikipiki iriho akuma kitwa mubazi aho kagenda kereka utwaye ikinyabiziga inzira ari bucemo kugira ngo agere aho agiye.

Ipikipiki iparitse ku nkengero z'umuhanda y'amabara y'umutuku n'umukara, ikorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Kanis Food, bakaba basangisha abaguzi babo ibyo kurya mu ngo zabo.

Umukozi w'ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi, yambaye ishati y'icyatsi yanditseho vuba vuba, ari guhereza ibicuruzwa birimo imboga n'amavuta abiha umuguzi wabimutumye.

Umugabo wicaye ku ipikipiki, yambaye umupira ndetse n'isaha ku kaboko akorera ikigo gikorera kuri murandasi, aho atwara ibicuruzwa abishyiriye abantu mu ngo zabo.

Isoko ryiganjemo imboga n'imbuto. Harimo imineke, amatunda, avoka, inanasi, inyanya, intoryi, karoti, amapapayi n'ibindi.

Imodoka ya toyota ifite amabara y'umutuku. Ku kirahure cy'inyuma, hometseho ibirango byamamaza ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi. Aho uhamagara bakagufasha serivisi zitandukanye.

Imodoka nini ifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, yanditseho iposita, akaba ari ikigo gikora imirimo yo gushyira abantu ubutumwa butandukanye baba bohererejwe.

Abagabo babili bahagaze ku nkungero z'umuhanda imbere y'igipangu cy'umukara, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara undi ari gukura ibintu biri ku gakapu kari ku ipikipiki.

Moto ikora akazi k'ubucuruzi k'ikigo kitwa Kasha, itwawe n'umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ubururu, ndetse n'ingofero y'icyatsi yabugenewe.

Ikirango kiri kwamamaza urubuga rw'ikoranabuhanga rwitwa bigure, rukorera ubucuruzi kuri murandasi, aho ushobora kugurira ibicuruzwa bitandukanye nk'imyambaro ndetse n'ibindi.

Ipikipiki iri mu mabara y'umutuku. Itwawe n'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu. Inyuma hari agakarito kabugenewe, bashyiramo ibicuruzwa bitandukanye bakabijyanira banyirabyo.

Abagabo bakoresha amapikipiki mu mwuga wabo wo gutwara abagenzi, bambaye ingofero zabugenewe z'icyatsi, ndetse n'abo bagenzi nabo bambaye izo ngofero, kugira ngo nibakora impanuka batangirika.

Umugabo utwaye ipikipiki. Yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara. Ahetse igikapu kiriho amabara yiganjemo ay'umuhondo. Akorera ikigo cy'ubucuruzi kijyanira abantu ibyo kurya mu ngo zabo.

Urubuga rw'ubucuruzi, rukorera kuri murandasi. Aho ushobora gutuma ibicuruzwa bitandukanye, bakabikuzanira. Hariho amandazi ndetse n'igiciro cyayo.

Abagabo babiri bahagaze ku nkengero z'umuhanda, iruhande rw'igipangu gifite urugi rw'umukara hari ipikipiki, hari umugabo uhagaze uri guhereza uw'undi ibicuruzwa amuzaniye.

Inzu nini y'ubucuruzi, hejuru hari ikirango kinini cy'ubururu kiriho amagambo y'umweru yaka, ku ruhande hari ibindi birango bagaragaza ko hacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abagabo babiri bishimye bari guseka, umwe ni umwera undi ni umwirabura, bose bambaye amadarubindi ndetse bafite ingofero z' amapikipiki mu ntoki.

Icyapa kigaragaza ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye. Harimo ibikorwa mu nyama ndetse n'ibikorwa mu masukari.

Umuntu wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'agatambaro mu mutwe, afite telefone mu ntoki agiye gutumiza ibicuruzwa ku rubuga rukorera kuri murandasi rwitwa vubavuba.

Umusore wambaye amadarubindi ndetse n'ingofero y'icyatsi, yambaye ishati yicyatsi cyijimye atwaye igare, ahetse agakapu k'icyatsi kariho ibirango by'ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Vuba vuba.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi aho usangaho ibicuruzwa ndetse n'ibiciro byabyo byinshi biba bikomoka mu Bushinwa

Ipikipiki ifite amabara y'umutuku, iriho agakarito kabugenewe gafite amabara y'umutuku ndetse n'umweru. Hari umugabo uhagaze iruhande utwara iyo pikipiki.

Urubuga rw'ubucuruzi rw'ikoranabuhanga rukorera muri murandasi aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kurya, hariho amazina yabyo ndetse n'igiciro cya buri kumwe.

Ikirango kiriho umukobwa wicaye ku buriri, ufashe telefone mu ntoki, yambaye udukoresho yumviraho umuziki mu matwi, iruhande hateretseho agakapu k'umukara.

Ipiki piki iri mumuhanda itwawe n'umugabo wambaye agapira kumuhondo, ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero yabugenewe y'umutuku. ahetse agakapu kanini karimo ibyo kurya agemuriye abantu.

Amaguru abiri y'umuntu uhagaze, wambaye inkweto zifunguye. Inyuma hari icyuma gisize irangi ry'umukara , kiriho igiciro k'ibihumbi icumi, magana atanu.

Umugabo ukorera ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Vuba vuba, aho agemurira abaguzi ibyo baguze akabibasangisha iwabo mu rugo, ahetse agakapu kaba karimo ibyo bicuruzwa ajyanye.

Umukobwa w'inzobe uri guseka. Yambaye amaherena azengurukije. Yambaye agapira k'icyatsi cyijumye, kariho ibirango by'ikigo cy'ubucuruzi cya vuba vuba. Ari gushyira ibicuruzwa mu gakarito kabugenewe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, rw'ubucuruzi bukorera kuri murandasi, aho usanga ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo, maze ugatumiza mo icyo ukeneye, hariho amashakoshi, amakoti, amatelefone, ndetse n'ibindi.